Icyumba cy'amashuri y'inshuke gitewe amarange y'umuhondo. Gishushanyijeho ibishushanyo biri mu mabara y'umuhondo, ubururu n'umutuku. Imbere hari abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu n'umweru bicaye ku ntebe.

Icyumba cy'amashuri gitewe amarangi y'umuhondo n'umukara, ku kirago hicaye abanyeshuri b'inshuke buri umwe afite igikombe kirimo amata, iruhande hari umurezi wabo yambaye imyenda yo mabara y'icyatsi.

Icyumba cy'amashuri gitewe amarangi y'umuhondo, hahagazemo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umuhondo n'ubururu, impande hari umugabo wambaye ishati y'ubururu, afite igishushanyo gishushanyijeho umuntu, imbere hari ikibo.

Inyubako isizwe amarange y'umukara n'umuhondo, hashushanyijeho ibishushanyo twifashisha twigisha abana b'inshuke, hari ibitanda bisashwe neza abana b'inshuke baruhukiraho, impande hari ahashushanyije abana.

Uburezi bwageze kuri bose mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikigo cy'amashuri gisakaje amabati atukura. Imbere ku gikuta hatewe irangi risa umuhondo ndetse n'umweru. Hashushanyijeho ibikoresho bifashisha bigisha abana b'inshuke.

Ikigo cy'amashuri gitewe amarangi y'umuhondo n'umukara. Kiriho ibyapa bigiye bitandukanye byifashishwa mu gusobanurira abanyeshuri. Biri mu mabara y'icyatsi, ubururu ndetse n'umuhondo.

Inzu y'ubucuruzi itewe amarangi, atukura ndetse n'andi asa umuhondo. Imbere hari umuhanda usashwemo amabuye ndetse hahagaze n'abantu babiri, umwe yambaye imyenda iri mu gitenge, inzu imwe irimo ifumbire.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose, ikigo cy'amashuri gitewe amarangi y'umukara n'ubururu, imbere hari abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru n'ubururu, hakaba hari ubusitani burimo indabo z'amoko atandukanye.

Amashuri y'inshuke yubatswe neza cyane, asakajwe amabati y'ubururu atewe amarangi y'umweru, imbere hari ubusitani bwiza cyane burimo indabo z'amoko atandukanye, n'umuhanda uhagazeho abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu n'umweru.

Ikigo cy'amashuri gitewe irange ry'umweru gisikajwe amabati y'ubururu, imbere hari abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu n'umweru ndetse hari n'ubusitani burimo indabo z'amoko atandukanye.

Ikigo k'inshuke gishushanyijeho imbuto, imineke, amaronji, pome, inanasi ndetse hashushanyijeho n'ibishyimbo, hari umwana bari kwerekera ibishushanyijeho.

Amashuri y'inshuke na yo ni ingirakamaro, ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amabati y'ubururu gitewe amarage y'umuhondo, hashushanyijeho ibisimba by'amoko atandukanye ndetse hariho n'ahashushanyije amafi.

Amashuri y'inshuke yageze kuri bose mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda. Inyubako y'amashuri yubatswe neza cyane igiye ishushanyijeho ibikoresho byifashishwa mu kwigisha abanyeshuri b'inshuke, imbere hari ubusitani bwiza.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ahiye, gisakajwe amabati y'ubururu, imbere hari abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umukara n'umweru, bamwe muri bo bari kurya umunyenga mu byicundo byabo.

Ikigo cy'amashuri y'inshuke gitewe amarangi y'umuhondo. Hashushanyijeho ibishushanyo biri mu mabara y'icyatsi n'umukara, hariho inzovu, iri mu mabara y'umukara, imbere hari umuhanda w'umukara, iruhande hari ubusitani.

Ikigo cy'amashuri gisakajwe amabati y'ubururu, gitewe sima ku mpande, iruhande hari umurima urimo ibitoki na voka, ikikijwe n'imiyenzi, hahagaze umunyeshuri wambaye impuzankano yiganjemo ubururu n'umweru.

Inyubako y'amashuri yubatswe neza cyane, isakajwe amabati atukura itewe amarange umweru, umuhondo n'icyatsi, imbere hari ubusitani burimo indabo z'amoko atandukanye, higanjemo umweru ndetse n'umutuku.

Ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ahiye gisakajwe amabati y'ubururu, imbere hari ubusitani burimo indabo z'amoko atandukanye ndetse n'umuhanda usa nkaho watwawe n'isuri.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, isakaje amabati y'ubururu, imbere yayo hari abantu bambaye imyenda iri mu mumabara atandukanye ndetse hari n'ubusitani bwiza cyane.

Amashuri y'inshuke ni ingirakamaro ku baturarwanda. Icyumba cy'amashuri gitewe amarange y'umuhondo. Harimo ameza n'intebe ziriho ibikoresho twifashisha twigisha abana b'inshuke.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, isakajwe amabati y'ubururu, imbere mu busitani bwaho, hari abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru ndetse n'ubururu, bakaba bafite imyanda.

Inyubako y'kigo cy'amashuri yubakishijwe amatafari ahiye, isakaje amabati atukura, imbere hari intebe zirambitseho ibikapu biri mu mabara y'umuhondo, umutuku, ubururu ndetse n'umukara, imbere hari ikibuga cyiza cyane.

Inyubako nziza cyane yubakishijwe amatafari ahiye itewe amarange y'umukara n'umuhondo, imbere hari abantu bambaye imyenda yiganjemo umutuku n'umweru n'umukara, imbere y'inyubako hari ubusitani burimo indabo zigiye zitandukanye.

Ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ahiye, imbere hari umuhanda n'ubusitani burimo ubwatsi butoshye, iruhande hari inzu zisakajwe amabati y'ubururu n'umutuku ndetse n'umurima uteyemo ibitoki.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose, ikigo cy'amashuri cyubakishije amatafari ahiye, gisakajwe amabati y'ubururu, imbere ku nzugi hari irangi risa icyatsi, imbere yaho hari ubusitani bwiza bufite indabo nziza.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose, inyubako y'amashuri yubakishijwe amatafari ahiye, isakajwe amabati y'ubururu ndetse imbere yaho hari ikibuga cyiza cyane, inyuma hari ibiti bihakikije.

Inyubako y'amashuri isakajwe amabati y'ubururu, ikaba itewe amarangi y'ubururu ku nzugi ndetse ku gikuta hatewe amarangi y'umuhondo, imbere hari ubusitani buhagazeho abantu bambaye imyenda itandukanye buri umwe yambaye agapfukamunwa.

Isomero ni ingirakamaro kuri buri muntu wese. Inyubako nziza cyane itewe amarangi y'umuhondo. Imbere hari ameza asa ubururu, umuhondo n'umutuku ndetse n'udutebe dukikije ameza dusa ubururu n'umutuku. Hejuru ku meza hari ibitabo.

Ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ahiye, gisakaje amabati y'ubururu, gitewe amarangi y'umuhondo n'ubururu, imbere hari ubusitani bwiza cyane bwicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo icyatsi n'umweru, imbere hari abarezi babo.

Uburezi bufite ireme bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako y'amashuri isakajwe amabati y'ubururu n'umutuku, itewe amarangi y'icyatsi n'umuhondo, imbere hari ubusitani bwiza ndetse hamanitse ikirango cy'Igihugu.

Ikigo cy'amashuri gisakajwe amabati y'ubururu gitewe amarange y'icyatsi, imbere mu busitani hari indabo z'ubwoko butandukanye, umuhondo, umutuku, umweru.

Inyubako nziza cyane igeretswe kabiri, yubakishijwe amatafari ahiye, itewe amarange y'icyatsi ku nzugi, imbere hari ubusitani bwiza cyane burimo n'indabo z'amoko atandukanye.

Isomero ry'ibitabo, akabati karimo ibitabo by'amoko atandukanye, bimwe bisa umuhondo ibindi bisa umutuku, iruhande ku meza hari ibikoresho twifashisha twigisha abana b'inshuke.

Inyubako itewe sima, harimo urugi rufite amabara atukura, imbere hahagaze abana babiri umuhungu n'umukobwa, umukobwa yambaye imyenda y'ubururu n'umukara, umuhungu yambaye umukara n'umweru.

Ikigo cy'amashuri gisakajwe amabati y'ubururu, gitewe amarange asa igitaka ndetse n'umuhondo, imbere yaho hari ubusitani bwiza cyane n'abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose. Ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ahiye gitewe amarangi asa umukara ku nzugi. Imbere hari abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru n'umukara bafatanye ku runana.

Uburezi bwageze kuri bose. Icyumba cy'amashuri gitewe amarange y'umuhondo n'icyatsi. Harimo intebe zicayeho n'abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu. Buri umwe afite amata mu gikombe ndetse n'ibiryo ku isahani.

Ikigo cy'amashuri gikikijwe n'ibiti by'amoko atandukanye gisakajwe amabati y'ubururu, ku nzugi n'amadirishya hateye irangi risa umukara, naho ku bikuta hari irangi risa umuhondo, imbere hari abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo icyatsi n'ubururu ndetse hari n'ubusitani burimo indabo z'amoko atandukanye.

Umurima mugari cyane utewemo ibigori bigariwe, hagati harimo ibiti, impande hari inzu zubakishijwe amatafari ahiye, zisajwe amabati y'ubururu, imbere yabo hahagaze abantu.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, ku nzugi no ku madirishya hatewe irangi ry'umukara, imbere hari ubusitani bwiza burimo indabo z'amoko atandukanye, iruhande hakikijwe n'ibiti by'amoko atandukanye.

Uburezi ni ingirakamaro kuri buri muntu wese. Icyapa cyandikishijeho amagambo y'ubururu kigaragaza uko ikigo cyitwa. Imbere hahagaze umugore wambaye imyenda iri mu mabara y'umweru. Gikikijwe n'ibiti by'amoko menshi atandukanye.

Inyubako y'amashuri yubakishijwe amatafari ya rukarakara. Isizwe amarange y'umukara n'umuhondo, imbere hari ubusitani burimo indabo z'amoko atandukanye, iruhande hakikijwe n'ishyamba ririmo ibiti bitandukanye.

Inyubako nziza cyane itewe amarangi y'umuhondo, harimo ibikoresho byifashishwa mu kwigisha, harimo mudasobwa ndetse n'ibitabo, bikaba byifashishwa mu kwigisha mu mashuri yo hasi.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ahiye, harimo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru n'umukara, imbere yaho hahagaze umurezi w'umugore.

Ikigo cy'amashuri cyubatswe neza cyane. Cyubakishijwe amatafari ahiye, gisakajwe amabati y'ubururu. Gisizwe amarangi y'umuhondo ndetse n'ubururu. Imbere yaho hari abagabo babiri ndetse n'ubusitani bwiza cyane.

Abana batanu bambaye imyenda iri mu mabara yiganjemo umuhondo, umweru n'ubururu, bapfukamye hasi buri umwe afite ingwa ari kwandika ku kibaho, iruhande rwabo hari ibitambaro bimanitse ku madirishya.

Icyumba k'ishuri gitewe amarange y'umweru harimo sima itukura ndetse n'intebe n'ameza, hahagazemo abagabo babiri n'abagore babiri, umwe muri bo afite amakaye, bambaye imyenda iri mu mabara y'ubururu, umweru n'umukara.

Imfashanyigisho zirambitswe mu nzu itewe amarange y'umweru, ni ibikoresho twifashisha twigisha abana biga mu mashuri abanza, ibitabo, amakayi, amakereyo ndetse hari n'urubuto rwa pome.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose icyumba cy'amashuri giteye amarange y'umuhondo n'umukara n'umweru, imbere hicaye abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru n'umukara, buri umwe afite mudasobwa imbere ye.

Uburezi bwageze kuri bose. Ikigo cy'amashuri y'inshuke cyubakishijwe amatafari ahiye. Gitewe amarangi y'icyatsi ku nzugi, imbere hari ubusitani bwiza cyane ndetse n'ibikinisho by'abana.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ikibuga kigari cyane kiriho abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu, icyatsi n'umukara, buri umwe amanitse amaboko hejuru.

Ikibuga kigari cyane gihagazeho abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu n'umukara, imbere hari umurezi wabo yambaye ipantaro n'ishati afite ibiti mu ntoki.

Ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ahiye, ku nzugi no ku madirishya hatewe irange ry'umukara, imbere hari ubusitani bwiza cyane buhagazemo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo icyatsi n'umweru.

Ubwiherero bwubakishije amatafari ahiye. Busakajwe amabati y'ubururu, hahagaze abagabo babiri, bambaye amajiri ari mumabara y'icyatsi. Iruhande hari ibiti bifite indabo z'umuhondo.

Ikibuga kigari cyane gihagazwemo n'abantu batandukanye. Babiri muri bo bambaye amadarubindi, bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye. Impande y'ikibuga bahagazemo hari inyubako isakajwe amabati asa nkaho ashaje.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose, icyumba cy'amashuri gitewe amarange y'umweru hicaye abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umukara n'ubururu, buri umwe afite mudasobwa imbere ye.

Ikibuga kigari cyane gikikijwe n'urugo rw'imiyenzi, imbere hari umugore wambaye amadarubindi, yambaye ishati y'ubururu afite indangururamajwi mu ntoki, impande hari undi wicaye wambaye umupira w'umuhondo.

Inyubako nini cyane yubakishijwe amatafari ahiye, isakajwe amabati y'ubururu itewe irange risa umuhondo n'ubururu ku nzugi, imbere hari ubusatani bwiza cyane burimo indabo z'amoko atandukanye, hahagazemo abantu bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose icyumba cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ahiye, abanyeshuri bicaye ku ntebe bambaye impuzankano yiganjemo ubururu n'umweru, hari ameza ateretseho mudasobwa, imbere yabo hari umugabo uhagaze ufite igitabo mu ntoki.

Uburezi bufite ireme bwatugejeje kuri byinshi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umutuku, umukara n'umweru, bamwe baricaye abandi bahagaze, imbere hari umugabo uhagaze imbere yabo ufite indangururamajwi.

Abantu benshi bicaye hamwe, bicaye ku ntebe zisa umweru, bamwe muri bo bambaye impuzankano yiganjemo umukara n'umutuku, abandi bambaye ubururu, imbere yaho hari umuntu ufite urupapuro ndetse n'indangururamajwi, akaba yambaye amadarubindi.

Uburezi bufite ireme bukomeje guteza imbere Igihugu ndetse n'abaturarwanda muri rusange, ikibuga kigari cyane cyicaweho n'abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu n'umweru, imbere yabo hari inyubako yubakishijwe amabati y'ubururu.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose, abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu n'umukara, bari imbere y'inyubako yubakishijwe amatafari ahiye iruhande rwabo hari ishyamba.

Uburezi bufite ireme bukomeje kutugeza kuri byinshi. Ubukarabiro buhagazweho n'abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umukara n'umuhondo. Iruhande hari umurezi wabo wambaye ijiri y'icyatsi.

Ikigo cy'amashuri gisakajwe amabati y'ubururu, imbere yaho hari ikirangantego cy'Igihugu, hari ubusitani bwiza cyane burimo indabo z'amoko atandukanye ndetse n'ikigega.

Ikibuga kigali cyane cyicaweho n'abantu bari mu ngeri zitandukanye, abakuru, urubyiruko ndetse n'abana, hari n'abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru n'umukara, hari umuyobozi uri imbere yabo yambaye ishati y'umukara afite indangururamajwi.

Mu busitani bwiza cyane buhagazwemo n'abantu batanu, harimo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu ndetse n'umweru n'umukara, imbere yabo hari umugabo wambaye imyenda y'umukara n'intebe,

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose mu gihugu, abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu, umukara n'umweru bicaye ku kibuga gisashweho amabuye bamwe muri bo barahagaze, imbere yabo hari umuntu ufite icyo ari kubabwira.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose umuhanda mugari cyane uri kugendwamo n'abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umuhondo, impande hakikijwe n'amashyamba ndetse hahagaze n'abantu bafite amahene mu ntoki.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose, ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ahiye, gisakajwe amabati y'ubururu, imbere hari abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu n'umweru.

Ikibuga kigari cyane gihagazeho abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu n'umweru bamwe muri bo bicaye ku ntebe abandi barahagaze, buri umwe afite igitabo imbere ye.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ahiye, imbere mu busitani bwaho hari abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru n'umukara.

Ikibuga kigari cyane gihagazweho n'abantu batandukanye, hari abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu, umwe muri bo ahetse igikapu ari guhoberana n'undi wambaye imyenda y'umukara n'umweru iruhande haparitse imodoka.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose, icyumba cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ahiye, gitewe amarangi y'umweru n'umukara, harimo intebe zicaweho n'abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo icyatsi n'umweru.

Umuhanda uri kugendwamo n'umunyeshuri wambaye impuzankano yiganjemo umweru n'ubururu, iruhande hari ishyamba ririmo ibyatsi bitoshye, ruguru hari ishuri ryubakishijwe amatafari ahiye risakajwe amabati y'ubururu.

Ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ahiye, gitewe amarange y'umuhondo, imbere hari ikibuga cyiza cyane, iruhande hari ibiti bihakikije ndetse hari n'indi nyubako yubakishijwe amatafari atukura.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose, inyubako y'amashuri yubakishijwe amatafari ahiye, imbere mu busitani buhari hari abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu n'umweru, bamwe baricaye abandi barahagaze, hagati hicayemo umunyamahanga wambaye imyenda itukura.

Inyubako y'amashuri yubakishijwe amatafari ahiye, harimo intebe zicaweho n'abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu n'umweru, buri umwe afite ikayi n'ikaramu mu ntoki.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose, ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ahiye imbere yaho hari ubusitani bwiza cyane burimo indabo z'amoko atandukanye ndetse n'ibyicundo by'abana.

Inyubako itewe amarange y'umukara harimo amasafuriya bifashisha bari gutekera abanyeshuri ku bigo, hahagazemo abantu bambaye amajire afite amabara y'icyatsi.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose, umuhanda mugari cyane urimo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umukara n'ubururu n'umweru n'umuhondo, impande y'umuhanda hakikijwe ibiti.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose, inyubako y'amashuri iteba amarange y'umuhondo, imbere hari abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umukara n'umweru, buri umwe afite ikayi n'ikaramu imbere hari ubusitani.

Ubusitani bwiza cyane burimo indabo ziteye amabengeza, harimo icyapa cyandikishijweho amagambo ari mu ibara ry'umukara, kigaragaza Akarere ka Nyagatare, imbere yaho hari inyubako itewe amarange y'umuhondo n'umukara, hicaye abantu ndetse haparitse na moto.

Umuhanda mugari cyane urimo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umuhondo, ubururu, umukara n'umweru, imbere hari babiri bafashe icyapa kigaragaza ko bagiye gusura urwibutso rwa jenoside yakorewe Abatutsi, impande y'umuhanda hakikijwe ibiti by'amoko atandukanye.

Isomero ry'ibitabo, akabati gatondetsemo ibitabo bigiye bitondetse ku murongo. Bimwe bisa umutuku, umukara, umweru n'umuhondo n'ubururu. Hamwe hari akabati kariho amasahani turiraho.

Uburezi bwageze kuri bose. Icyumba kirimo imashini zigishirizwaho kudoda. Hahagazemo abantu bagera kuri batandatu buri umwe afite imashini ari kudoderaho.

Inyubako ndende cyane yubakishijwe amabuye, imbere hari abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru n'ubururu, bakikijwe n'ababyeyi bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, itewe irangi r'muhondo n'umukara, iruhande mu muhanda hari abantu benshi bambaye amajiri yiganjemo icyatsi n'umuhondo, hari ikigega.

Inyubako nziza cyane yubakishijwe amatafari ahiye. Itewe amarangi y'umuhondo n'umweru. Imbere hari abantu benshi cyane bambaye amajiri biganjemo ubururu n'icyatsi.

Uburezi bukomeje guteza imbere Igihugu ndetse n'abaturarwanda muri rusange, inyubako nziza cyane itewe amarange y'umuhondo n'umweru hicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru n'umukara, bafite ibiryo imbere yabo.

Ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ahiye gisakajwe amabati y'ubururu, imbere hari ikirango cy'Igihugu, ishuri rimwe rishushanyijeho abanyeshuri ndetse ryanditseho indangagaciro na kirazira.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako nziza cyane itewe amarange y'umukara n'umuhondo, hicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umuhondo, umukara n'umweru.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose, icyumba cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ahiye, Hahagazemo umunyeshuri wambaye impuzankano yiganjemo umweru n'umukara, afite ikayi irambitse ku ntebe n'ikaramu mu ntoki.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, icyumba cy'amashuri kirimo intebe z'icyatsi zicaweho n'abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umukara n'umweru, hahagaze umugabo wambaye ishati y'umweru afite indangururamajwi.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose. Abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru n'umukara. Bamwe bambaye imipira y'umutuku, bicaye ku ntebe zisa umweru. Imbere hari umuntu ufite indangururamajwi, afite icyo ari kubagezaho.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye itewe amarange y'umuhondo, isakajwe amabati asa nkaho ashaje, iruhande hari abantu bagera muri batanu bambaye amajiri yiganjemo icyatsi n'umweru, bafite ibitabo mu ntoki.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose, ikigo cy'amashuri kirimo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umukara n'umweru, imbere yabo hari umuntu wambaye ipantaro y'ubururu n'ikote ry'umukara yambaye amadarubindi afite indangururamajwi afite n'ibipapuro mu ntoki.

Inyubako isakajwe amabati atukura. Itewe irange ry'umweru n'umukara. Imbere hari umugabo ufite igikapu mu mugongo ndetse n'umugore wambaye imyenda y'umukara n'ubururu.

Inyubako nziza cyane isakajwe amabati atukura. Itewe irange ry'umweru, imbere hari ubusitani burimo indabo z'amoko atandukanye. Hagati hari umuhanda uri kugendwamo n'abantu bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye.

Inyubako isakajwe amategura itewe irange ry'umweru n'umukara, iruhande hari umuhanda usashwemo amabuye, hahagazemo umuntu ufite ingofero mu ntoki ndetse hari n'ubusitani.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose, inyubako nziza cyane itewe amarangi y'umweru, imbere mu busitani hari abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo ubururu ndetse n'umukara, umwe muri bo afite mudasobwa.

Uburezi bukomeje kuba inkingi y'iterambere rirambye, icyumba cy'amashuri gitewe amarange y'umuhondo n'umweru, harimo intebe nziza cyane ziri mu mabara y'icyatsi zicaweho n'abantu bagiye batandukanye, bamwe muri bo bafite mudasobwa abandi bafite amakayi.

Inyubako nziza cyane itewe amarangi y'umweru n'umukara. Imbere ahasashwe amabuye hari umuntu uhahagaze yambaye imyenda y'umukara afite n'igikapu mu ntoki cy'umukara. Imbere hari ubusitani ndetse n'indobo isa icyatsi.

Ikigo cy'amashuri gitewe amarange y'ubururu ndetse hasi hashashwe amakaro, harimo ameza atewe amarange y'umuhondo n'umukara, impande hari intebe ifite amarange y'umukara n'icyatsi.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose, icyumba cy'amashuri kimanitswemo ibitambaro bisa umweru, harimo intebe z'icyatsi ziciweho n'abantu ndetse buri umwe afite ikaramu n'ikayi bari kwandikira ku meza.

Inyubako nziza cyane itewe amarange y'umweru n'umukara, harimo ameza ateretseho mudasobwa, imbere hicaye umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umweru, undi arahagaze ku madirishya hamanitse ibitambaro bisa umweru.

Inyubako yubakishijwe amabati atukura itewe amarangi y'umuhondo ndetse harimo umuhanda ushashwemo amabuye, hari kugendamo umukobwa wambaye imyenda y'umweru afite ikayi mu ntoki.

Inyubako itewe amarangi y'umuhondo, umweru n'umukara, hari abantu bicaye ku ntebe zisa icyatsi, buri umwe afite mudasobwa ndetse na terefone, imbere yabo hahagaze umuntu ufite icyo ari kubabwira, afite icupa ryamazi.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda, icyumba cy'amashuri giteye amarange y'umweru n'umukara harimo intebe nziza cyane n'ameza ateretseho mudasobwa, hahagazemo umuntu wambaye ishati y'igitenge n'undi wicaye wambaye indi y'igitenge, afite urupapuro imbere ye n'ikaramu.

Inyubako nziza cyane isakajwe amategura, itewe irange risa umuhondo n'umukara, imbere hari ubusitani bwiza cyane burimo indabo z'amoko atandukanye n'ibiti, hari n'ikigega.

Inyubako itewe amarange asa umweru harimo intebe zicaweho n'abantu benshi cyane bambaye imyenda yiganjemo umukara n'umweru, buri umwe afite amazi imbere ye ndetse na mudasobwa.

Inyubako itewe amarange y'umuhondo n'umukara, harimo intebe nyinshi cyane zicayeho abantu bamwe bambaye udupfukamunwa, buri umwe yicaye hagati n'undi harimo metero.

Inyubako irimo ibitambaro bisa umweru harimo intebe zisa icyatsi ndetse n'ameza atewe amarange y'umuhondo, hasashwemo amakaro hicaye abantu buri umwe yambaye agapfukamunwa ndetse afite mudasobwa imbere ye.

Icyumba gitewe amarangi y'umuhondo n'ubururu, harimo intebe zicawemo n'abantu buri umwe afite ikayi, afite n'ikaramu, bambaye amataburiya y'umweru imbere yabo hahagaze abandi.

Kwiga twifashishije ingero ni byiza cyane, icyumba cy'amashuri kiriho ameza ateretseho ibishushanyo bigaragaza imbuto z'ubwoko butandukanye, avoka, inanasi ndetse n'imineke.

Uburezi bufite ireme bwageze kuri bose mu Rwanda, ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ahiye kikaba giterawe irange ry'umukara ku nzugi, inyuma hari abakobwa beza cyane ndetse n'imbere hahagaze umugore wambaye amadarubindi.